Umusore wambaye umupira munini n'ipantaro y'ikoboyi ndetse n'isaha ku kaboko, arimo arinjira mu kazi ka eyateli aho hatangirwa serivisi z'itumanaho, umuntu yabitsa akabikuza ndetse agahabwa n'izindi serivisi.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboye n'umupira wijimye, ku ruhande rwe hari uwambaye ishati y'umweru bombi bahagaze imbere y'akazu ka emutiyeni, hicayemo umukozi wayo uri kubaha serivisi zo kubitsa no kubikura, kugura amayinite ndetse n'izindi.

Umumotari uhetse ibintu byinshi kuri moto ndetse n'umugore bahagaze imbere y'akazu, ka MTN, barimo barashaka serivisi, uzibahereza yambaye ijire afite na telefoni, ashobora kubabikira, akababiguriza cyangwa se akabaha amayinite.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ahagaze imbere y'akazu gatanga serivise z'itumanaho za Eyateri mani ndetse na MTN mobayiro mani mo imbere hicayemo ugiye kumufasha, arunamye ari gukoresha telefone kugira ngo amuhe serivise yamusabye.

Umugore wambaye umutuku hejuru ufite mikoro uri kubwira abantu, iruhande rwe hari bambaye ingoferombe wambaye n'igitenge, iruhande hari umugabo ndetse inyuma hari umugabo uhagaze munsi y'umutaka wa Eyateri, hirya yabo gato hari abandi bantu bicaye mu itente ndetse n'abandi bari ku ruhande bitwikiriye imitaka kubera izuba.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye y'umukara n'umweru ndetse n'ayandi mabara, bicaye ku tumeza, buri bose imeza ukwayo ukwayo, barimo kuganirizwa n'umugabo wambaye ikositimu n'amarinete abaganiriza ku byerekeranye no gukoresha banki no kwibumbira mu makoperative nk'abaturarwanda.

Umugabo uhagaze imbere y'agatote ufite mikoro, uri kuganiriza abitabiriye, bamwe bicaye ku gihanda cyo hirya, abandi bicaye ku cyo hino. Bose biganjemo abagabo n'abagore.

Umugore wambaye umupira w'ubururu uriho ikirangantego cy'u Rwanda uri gucuruza inanasi yasuwe n'abayobozi baje kumuganiriza, umwe muri bo afite mikoro yambaye ikote niwe uri kubaganiriza ku bigendanye no gukoresha banki no kwibumbira mu makoperative.

Abagabo batatu barahagaze bafashe kuri seretifika bahaye umwe muri bo, ariwe uhagazemo hagati. Inyuma yabo hari abandi bantu benshi bicaye bakurikiye imbere, bari kureba ibyo gafotozi ari gufotora aba bantu.

umugabo wambaye ikoti ritukura mu imbere harimo umupira w'ubururu n'ipantaro y'itise, yahawe seritifika abakozi babiri ba banki bambaye imipira yijimye irimo ikiragantego, bari kwifotozanya na we bakoze kuri iyo yahawe, inyuma hicanye abandi bantu baje bitabiriye iyo nama yari yabaye.

Umugore wambaye umupira w'ubururu, ndetse n'abandi bantu bambaye nka we. Harimo n'abatambaye gutyo, bo bambaye amakoti. Bahagaze ahantu munsi y'itente hari inanasi zihacururizwa nziza cyane.

Abantu biganjemo abambaye imipira y'ubururu ndetse n'abandi bambaye bisanzwe, bahagaze bari kureba udukapu n'ibindi bikoresho by'ubukorikori, hamwe n'umugore ufite mikoro uri kubasobanurira uburyo babikoramo.

Udutebe dutatu duteretse imbere ya kotwari, irimo amayoga yo kunywa atandukanye, aho harimo iza sikoro za mitsingi ndetse na za pirimusi zihateretse.

Kontwari ndetse na etajeri irimo inzoga zitandukanye ari amarikeri ndetse na byeri na mitsinzi na sikoro, hejuru hateretse furati yo kureberaho imiziki cyangwa se amakuru.

Terimusi ipfundikiye yifashishwa mu kubika igikoma cyangwa se icyayi n'ibindi binyobwa umuntu yifuza ko byakomeza bigashyuha mu gihe kirekire ndetse n'intebe iteretse hamwe n'ijerekani ifite umupfundikizo w'umutuku.

Abagabo babiri bari mu iduka, umwe yambaye umupira w'ikipe urimo amabara y'umweru n'umutuku n'ubururu ndetse wanditseho n'umubare gatandatu, undi yambaye umupira wijimye, bombi bari gucuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibyo kuribwa ako kanya ndetse n'ibyo ubanza ukagenda ugateka.

Umugore wambaye ikote, imbere yambayemo akantu k'ikigina, afite mikoro arimo kubwira, abwiriza abo bari kumwe, hari abandi bantu benshi bicaye harimo abagore n'abagabo bakurikiye.

Abantu bicaye hamwe mu nama harimo ab'ingeri zose n'inzego zitandukanye, harimo Umwepisikopi wambaye ikanzu n'akagofero mu mutwe ndetse abirabura n'abazungu bicaye ku ntebe zitukura bakurikiye inama.

Abihayimana bari gukora umuganda, harimo padiri, abafurere ndetse n'abamansera. Hahagaze n'undi mugabo umwe we utambaye imyenda isa nk'iyabo, hirya hari inyubako babamo.

Abantu bamwe bahagaze abandi bapfukamye bari gusenga. Umugabo umwe ahagaze arambuye amaboko, hamwe n'abandi bagore n'abagabo begeranye na we. Imbere hari abandi bane bapfukamye bari kudutebe.

Intebe ebyiri ziteye, mo hagati hateretsemo akameza, hirya y'aho inyuma y'igipangu hari ibiti byinshi bihateye, hakurya ni ahantu hagaragara imisozi kandi hatuye abantu.

Ahantu mu cyumba hateretse intebe ebyiri z'imifariso, zirimo agasego ko gufata mu gihe wicaye ndetse n'ameza, inyuma hari igitanda gisashe neza, kiriho imisego ibiri bigaragara ko cyaryamaho, abantu babiri.

Intebe nziza z'imifariso, mo hagati hariho akameza gateretseho akantu, hanze hagaragara neza hateretse za ntebe wicaramo ugasa nk'uryamye uri kwirebera amazi meza magari, ndetse hari n'ikirere gisa neza cyane.

Abanyeshuri basoje amasomo yabo ya Kaminuza, bicaye bari kwifotoza nyuma yo gukora ikirori cyo gusoza, ku meza bicayeho hateretseho fanta zo mu bwoko butandukanye bari kunywa, yaba Sitoro cyangwa se Sipurayiti, bafite dipolome zabo mu ntoki.

Uburiri busashe neza buriho amashuka y'umweruru ndetse hariho n'iy'umuhondo badekoresheje. Buriho imisego ibiri bigaragara ko haryamaho abantu babiri, ndetse hirya hari akameza imbere yaho hari n'agatebe. Ni ahantu muri hoteli umuntu ashobora kujya akaruhukira neza cyane.

Umugabo wicaye ku kantu k'akameza kakozwe mu biti bibaje, wambaye ikoboyi n'umupira w'amaboko magufi n'inkweto. Ari gucuruza utuntu tugiye dutandukanye harimo amavuta, ibikoresho by'isuku, ndetse n'utundi. Yatwikirije umutaka wa Eyateri.

Ibikombe by'amabara atandukanye harimo: iby'ubururu, iby'umuhondo, iby'icyatsi n'iby'irose, bimwe biteretse mu mabase, ibindi biteretse mu mifuka, indobo ziterekanyije, ibase ipfundikiye iyindi ndetse n'imifuka myinshi itegereje gucuruzwa, byose biri ku gatanda ahantu mu isoko.

Ihene ebyiri bazirikanyije ibiziriko byazo mu ijosi bari kuzikurura. Ni amatungo meza magufi akunze kororwa n'abantu badakize cyane, ariko afasha muri byinshi no mu iterambere ry'umuryango.

Isoko risakajwe amahema, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imifuka, imyenda, utuntu abagore bitega mu mutwe, utwenda tw'imbere, ibikapu ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Intebe z'ifariso, imbere yaho hateretse ameza, no hirya hateye izindi ntebe nyinshi, bigaragara ko ari ahantu bakirira abantu benshi. Bakabaha ibyo kurya wenda nk'ifunguro rya saa sita, irya nijoro ndetse n'irya mu gitondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari batwaye abagenzi, ndetse n'umunyonzi ariko utaririho wambaye ijire ya Emutiyeni, n'abandi bantu b'abanyamaguru bari kwigendera gutyo gusa mu muhanda.

Umugabo w'umuyonzi uhetse ibitoki byinshi cyane birengeje urugero, yaziritseho umusego w'intebe y'igare, yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'ubururu. Ari gutambika mu muhanda, ahantu hateye ibirabyo hirya hubatse amashuri.

Mu muhanda harimo ambutiyaje, amamodoka agenda n'agaruka, abamotari batwaye abagenzi, hari ibiti byinshi iruhande rw'umuhanda ndetse no mu muhanda hagati, imbere hari etaje ndende cyane.

Umu motari wambaye kasike uhetse umugenzi nawe uyambaye bari mu muhanda. hepfo hari inyubako z'ubucuruzi ndetse ku muhanda hari n'akapa karanga amerekezo. Hirya hateye ibiti ndetse hari n'amapoto ajyana insinga z'amashanyarazi.